Igihe cyo kwita ku barwayi bakeneye ubufasha bwihutirwa, kandi barembye cyane aba bantu bose baba muri serivisi yo kwita ku barwayi barembye cyane.

Abaturage benshi b'aborozi bahuriye ahantu hamwe n'amatungo yabo magufi ari yo amahene, baje kuyakingiza kandi ahantu bari ni ahantu rwose hameze neza, hari inzu ndetse hari n'ibiti birebire cyane.

Abayobozi batorewe kuyobora inzego zitandukanye, barimo kurahira barahirira inshingano bahawe, biyemeza ko bazabishobora, bamaniza amaboko rwose barahira.

Umuganga ari kwita ku murwayi urembye cyane bigaragara ko arembye, ari gupima umutima we garebe ko ushobora kuba utahagaze gutera, yifashishije igipimo bakoresha mu gupima umutima.

Kwa muganga mu nzu abarwayi basuzumirwamo, abantu bose baba baje gushaka serivisi, muganga arimo arabaha ibyangombwa byo kuzuza ari kubasuzuma.

Abantu barimo abagore n'abagabo, bagiye gushaka serivisi ahantu runaka, imbere yabo hari umugabo wicaye imbere ya mudasobwa niwe uri kubafasha mu byo baje gushaka.

Kwa muganga, ahari ibitanda by'abarwayi barembye, aho bafashwa kwitabwaho bacumbikiwe kugira ngo babashe gukurikiranwa neza, n'igihe cyose.

Umugabo wakira abantu kwa muganga kuko yambaye imyenda y'abaganga, hari n'umugore ucigatiye umwana bisa naho umugore yaje gushaka serivisi akaba ari kuganira n'uwo mugabo, umugabo yandika ibyo umugore avuze.

Ku ivuriro cyane, aho abaganga bafasha abarwayi n'abandi bantu bafite ibibazo bitandukanye, bigendanye n'uburwayi nko kubapima indwara zandura cyangwa zitandura cyane cyane nka: Virusi Itera SIDA, umuvuduko w'amaraso, malariya n'ibindi.

Umuganga uri mu isuzumiro hari ibikoresho by'ubuvuzi bitandukanye akaba ari gusuzuma umugore uhetse umwana.

Imboga ziteye mu murima w'igikoni kandi zitaweho neza zashyizweho ifumbire y'imvaruganda ndetse n'imborera kandi zifatwa neza bigaragara cyane none zareze cyane zitanga umusaruro utubutse kandi uhagije.

Abantu benshi cyane barimo abakuru ndetse n'abana batoya bari mu kigero cy'imyaka itatu, bahagaze ku ibaraza ry'inzu y'ivuriro ivurirwamo abagore batwite ndetse n'abana bakiri bato, aho bugamye izuba.

Ahantu hahuriye abantu benshi cyane abana, ababyeyi babo b'abamama n'ababyeyi babo b'abagabo bose bigaragara ko abana aribo benshi cyane, ahantu bahuriye bita ku bana cyane.

Ababyeyi bitabiriye igikorwa cyo gukingiza abana babo ni ababyeyi bafite abana bari mu bigero bitandukanye ab'ukwezi n'igice, ab'amezi abiri amezi, atatu kuzamura kugeza ku mwaka n'amezi atanu.

Kwa muganga, muganga arima araha umuntu serivisi y'ubuvuzi ari kumutera urushinge ashobora kuba ari kumuvura indwara zitandukanye cyangwa se ari urukingo nanone rw'indwara zitandukanye.

Inzu y'ivuriro, imbere yayo hari imodoka y'imbangukiragutabara, ibafasha kugeza abarwayi kwa muganga, igihe bikenewe ko babageza ku ivuriro.

Inzu nini y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye, irimo ibyo kurya, ibyo kunywa, iby'isuku birimo amavuta yo kwisiga, isabune yo gukaraba ndetse n'ibindi byinshi.

Abantu babiri bari mu nzu icururizwamo imiti, umugabo ucuruza yambaye ishati ya karokaro y'amaboko maremare, afite ikayi n'ikaramu, aho ari kwandika ibicuruzwa yacuruje. Imbere hakaba hari n'umusore uhetse igikapu mu mugongo ari nawe waje kugura imiti.

Ahantu habereye igikorwa cy'imyidagaduro kuko hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, abakuru n'abatoya kandi hejuru ku kabugankuru hari abantu b'abanyamuziki. Bigaragara ko abandi bantu bari hano ari bo bahanze amaso.

Umuravumba ufite amababi asa neza ayaga cyane. Bigaragara ko uteye ahantu heza witaweho. Uwo muravumba kera abanyarwanda, bawifashishaga nk'umuti ndetse na n'ubu baracyawifashisha kandi umuravumba urarura cyane.

Umujyanama w'ubuzima yambaye imyenda y'abajyanama b'ubuzima, agapfukamunwa ndetse afite ikaramu n'urupapuro agiye kwandika wenda ibintu nk'abo wenda yaba yafashije cyangwa abo yaba yahaye umuti.

Abaturage bitabiriye inama yabereye ahantu runaka; imbere yabo hari umuyobozi wabo ari we uri kubaha imbwirwaruhame ndetse hari n'umuntu uri kumufasha kubitaho.

Abantu batandukanye bari mu muhanda harimo n'inzego z'umutekano na muganga uri gupima umuriro.

Ivuriro ririho abantu baje gushaka serivisi z'ubuvuzi. Hariho abo ubona ko barembye ariko n'abaganga baje kubitaho baje kubaha serivisi bakeneye...